Inzu itatswe n'amabendera y'igihugu c'u Gwanda, hari abayobozi b'abasirikari bakikije umwe wambaye ikoti, wicaye imbere ku meza, abaturage inyuma barimo bamutega amatwi n'umugabo ufite mikoro n'urupapuro.

Abantu benshi bambaye imyenda y'inifomu isa n'inkweto z'umukara, bigaragara ko ari abantu bashinzwe gucunga umutekano w'abantu n'ibintu, bagaragara ko bakora ahantu h'amagereza cyangwa mu basekirite batandukanye.

Habahoa inyubako za polisi bakoresha mu gihe bari gukora igenzura cyangwa kontorore ku binyabiziga byaba byaragize ikibazo muribimwe mu bintu bituma hirindwa impanuka zitandukanye ziterwan'ibinyabiziga bishaje.

Umuyobozi wa porisi wambaye inifomu. Imyenda y'akazi iba iriho ibirango bigaragaza aha akorera, cyangwa se n'urwego agezeho mu kazi. Akaba afite mikoro n'impapuro bigaragara ko ari gutangaza ikintu imbere y'abantu.

Ahantu habugenewe abantu bakorera cyangwa bakanikira imodoka n'imoto n'ibindi byinshi. Akaba ari imodoka igihe yagize ikibazo bayijyana mu garaje, igaparikwa ahantu birorohera umutekinisiye kujya munsi akayikemurira ikibazo yaba igize.

Ubwato buto bwa gipolisi burimo abagabo bambaye imyenda yabugenewe ijya ikoreshwa mu mazi, mbonamo n'abantu bambaye amacupa atwara imyuka iyo umuntu ari mumazi hasi munsi y'amazi.

Ikidara aha inzu cyangwa ikintu cyubakwa, kugira ngo bakore inama hanze, kibarinda izuba n' imvura, bashiramo intebe kugira ngo babone ahantu bicara bakurikirane inama neza gikoreshwa kandi cyane cyane mu birori n' ubukwe n' ibindi...

Abapolisi benshi bambaye iniforum. Harimo ufite imbwa ziri gushaka amavarisi manini atwagwamo ibikoresho by'abantu, arambitse ku muhanda, bashakamo ngo barebe ko nta bi bitemewe byitwa biri muri ayo mavalisi.

Abayobozi biganjemo ab'umutekano, abadaso, apolisi, abasirikari, n'abakozi ba ribu, bafite bote, akaba ari igikoresho cyangwa inkweto bakoresha mu kwambara mu gihe cy'imvura, cyangwa bari guca mu ishyamba, mu kurinda umubiri wabo, ki kaba ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abahinzi cyangwa abashumba.

Icyumba kinini gikoreshwa mu gihe habaye ibirori, cyangwa inama. Abantu bari kuganira mo harimo intebe, ameza n'abantu benshi bafite amazi imbere yabo. Ubona ko bari mu nama cyangwa mu bukwe cyangwa mu bindi birori bitabiriye. Hariho parafo amarido n'ibindi.

Ikidara cya kijyambere cy'amatente kirimo abaturage benshi. Bamwe bicaye ku ntebe, abandi hasi. Bigaragara ko hari umuhango uri kuhabera, kuko harimo n'abayobozi n'abadaso n'abapolisi.

Inzu igaragarako iriho abantu baje gushaka serivise zitandukanye cyane cyane iza Leta, cyangwa izo kwa muganga nk'uko bigaragara bicaye bategereje uko babafasha umwe kuri umwe.

Abagabo bahetse umurwayi mu ngobyi, bamuvanye ahantu kwa muganga. Hari abantu benshi baje kwivuza kwa muganga.

Abagore bari mu kirori ahantu hatatse indabyo nziza z'umweru. Bambaye imishanana y'umutuku. Batambye amaboko, ubona ko barimo kubyina imbyino za kinyarwanda.

Isekuru, igikoresho gakondo gikoreshwa mu gusekura isombe, cyangwa ibigori, imyumbati, bashaka kubonamo ifu. Bashaka gukoresha barya cyangwa bakora ibindi bintu bitandukanye.

Urugo rugaragara nk'urwo mu cyaro, ahantu hari ishyamba ry'intusi ibiti n'ibigori, ikiraro, ndetse hari n'umuntu uri kubumba ibibindi n'utundi tuntu dukorwa mu ibumba bashiramo indabo, nk'amavaze n'ibindi.

Abagabo bari ahantu, bafite imirisho bakenyeye imyenda isa, n'imikenyero nka bimwe mu myambaro ya kinyarwanda, bafite ingoma nk'igikoresho gakondo gikoreshwa bari gucuranga, cyangwa bari kuririmba indirimbo za gakondo.

Umukobwa ufite igikoresho cyitwa ikirago. Gikoreshwa cyane mu cyaro kuko bakiryamaho, bakacyanikaho ibintu bitandukanye. Gikorwa mu bwatsi bwitwa ubusuga, barakiboha n'intoki bifashishije imideyi.

Igikoresho cyitwa igiseke cyangwa icyibo, kikaba gikorwa mu bwatsi bari kukiboha n'utudeyi, kikaba gikoreshwa mu bukwe cyangwa mu birori, batwayemo utuntu bashaka guha abageni, cyangwa mu guha abandi bashyitsi, ibintu bitandukanye babishize mu duseke.

Igikoresho cy'umuziki cya gakondo cyitwa ingoma n'imirishyo. Akaba ari igikoresho bakoresha mu gihe bari gucuranga. Bafata imirishyo bagakubitaho bigendanye n'injyana bikaryohera amatwi.

Abantu bagaragaza umuco nyarwanda. Baba bafite ibikoresho byiganjemo; iby'umuziki n'ibindi biranga umuco. Bikaba biri ahantu hihariye yaza abantu baturutse kure cyane cyane abazungu bakabisura bakishyura n'amafaranga.

Abantu bambaye imyenda ya kinyarwanda yo kubyinana irimo imishanana, amayugi, ingabo n'icumu. Bari imbere y'abayobozi bafite n'ibindi bikoresho by'umuco wa kinyarwanda byifashishwa mu muziki. Harimo umwirongi, n'ibindi byinshi.

Umutiba cyangwa igikoresho bakoresha mu bworozi bw'inzuki, kikaba gikorwa mu biti no mumbingo bakakiboha bagashyiraho amase bakakijyana mu giti nyuma y'igihe inzuki zajyamo zigashyiramo ubuki bakabukuramo bakabugurisha.

Ifoto ya kera irimo abami n'abaja be iba irimo imyambaro ya kera, bicaye imbere y'ingoro cyangwa amazu ya kera yubakishwaga ibyatsi, ikaba ari ifoto izwi cyane ya cyami y'abami ba kera.

Umumama uri kugosora imyaka akoresheje inkoko, igikoresho gakondo cyangwa igikoresho cyo mu muco nyarwanda bakoresha bari kugosora imyaka yiganjemo ibishyimbo, ibigori, amasaka, soya n'ibindi. Ibi bikaba bituma imyaka yivangura n'imyanda.

Inzu zimeze nk'izisakaje ibyatsi zubatse muvirigo ziri mu giturage kirimo ibiti, insina n'ubyatsi bya pasiparumu

Ababyinnyi bateze amaboko ubona ku bari kubyina imbyino za kinyarwanda, bikoreye uduseke, bambaye imyenda y'imishanana cyangwa imyenda ya kinyarwanda bakoresha mu birori biranga umuco nyarwanda.

Agakono k'akabindi kari ku mashyiga harimo n'inkwi, batekamo inyama cyangwa ibishyimbo n'ibijumba n'ibindi bintu bikomeye. Gakorwa mu ibumba, barakabumba, barangiza bakagacanira ku muriro ahantu, kashya, ibumba rigakomera.

Umugore wicaye ku kirago uri kudoda utuntu twiza dutatse amabara, tw'uduseke akaba ari gukoresha ubwatsi bwabugenewe buvamo ibyibo, uduseke, ibirago, n'ibindi byinshi. Tuvamo amafaranga kuko abasirimu baradukunda cyane.

Ibikoresho abakecuru n'abasaza bakoresha mu gihe bari kunywa itabikaba, bikaba bibazwa mu biti bikaba bigira akantu kameze nk'umuseke n'akandi bakajyamo itabi gatoya bagacanamo umuriro nyuma bagakurura umwuka.

Igihingwa cyitwa amasaka. Kikaba ari igihingwa gihingwaga mu misozi cyangwa mu bibaya, kikaba cyera kifite amahundo bakayahura, hakavamo amasaka cyangwa uduheke durwamo ifu y'igikoma, cyangwa urubetezi bakoresha bari gukora inzoga.

Umukeka, akaba ari agakoresho abantu baboha bo mu cyaro no mu mujyi, bakakaboha, bagakoresha ubwatsi, maze gakoreshwa kari gusaswa mu nzu cyangwa ahandi hantu hatandukanye.

Ikibindi igikoresho gikorwa mu ibumba, cyo hambere kikaba gikoreshwa mu gutara inzoga, mu kubika amazi, cyane cyane gikoreshwa mu mihango y'ubukwe, nkaho bacyita intango, basukamo inzoga bagashiramo imiseke, abageni cyangwa abandi bantu b'abashitsi, mu bukwe bakajyaho bagasogongera.

Ibikoresho cyangwa imitako ikorwa mu bukorikori, bikaba ari kimwe mu bintu bikundwa cyane, kuko ari ibintu bitakwa mu mazu ya leta, mu mahoteri n'ahandi hantu hagaragara ibikorwa biranga umuco nyarwanda. Bikaba ari ibintu biteza imbere ababikoraga.

Inkono y'itabi igikoresho gikoreshwa, mu gihe cyo kunywa itabi, ni agakoresho gakorwa mu giti, kaba gafite umuseke, n'akandi kantu kameze nk'agasafuriya, bashiramo itabi n'umuriro, ubundi abakecuru cyangwa abasaza bo mucyaro, bagakurura itabi bakanyweramo.

Abagore bafite imyenda ya kinyarwanda irimo imikenyero, bafite imirishyo, bari gukaraga ingoma. Igikoresho cya kera kifashishwaga mu muziki, mu birori, bakaba bakubitaho imirishyo, kikarekura amajwi aryohera amatwi.

Abantu b'abagabo n'abagore bafite imiseke bari gusoma ikigage cyangwa inzoga mu muvure, igikoresho gikoreshwa batara inzoga cyangwa umusururu.

Inka zo hambere zakundwaga cyane mu muco wa kinyarwanda, zitwa inyambo zarangwaga no kugira amahembe maremare, kuko kandi zikaba zaragiraga umukamo zikaba zarakundwaga ibwami.

Abantu bacuruza ubwoko bw'ibikoresho bya kera byitwa ikibindi cyangwa udukono. Aba bakaba badukora mu ibumba, bakadutwika, twamara gukomera bakagenda baradutembereza mu baturage, baratugurisha bigatuma bakuramo amafaranga.

Igihingwa gihingwa kikerera hasi kimeze nk'umuceri cyangwa ikindi cyitwa uburo. Kikaba ari igihingwa cyera bakakibetesha kikavamo ifu, maze bakayinywamo igikoma, cyangwa kigakoreshwa mukora ibintu bitandukanye birimo n'ibirungo.

Urubuto rw'igihaza basasiye ibyatsi kugira ngo gikure neza, bari ku cyeza ngo bazakivuzemo imbuto bazatera ahandi. Hirya hari amakora y'amateke, n'insina mu rutoki.

Igikoresho cyitwa umweyo gikoreshwa mu gukora isuku bakubura hasi ni babica , ni byatsi bicibwa ahantu ku gasozi bikuma ,bigakomera, bakabikoresha bakubura ahantu hatandukanye.

Umugabo wicaye warambirije hasi, ku kirago, igikoresho cyifashishwa mu cyaro, banikaho cyangwa bicaraho ndetse hari n'abakiryamaho kandi gikorwa mu bwatsi, kiboheshwa amaboko, nta mashini bisaba.

Umugore wicaye uri kuririmba inyuma hari ingoma n'abantu bafite ibikoresho bya Kinyarwanda byifashishwa mu muziki gakondo. Akaba ari gucuranga igikoresho cy'icyembe ndetse yambaye n'imikenyero nk'imyenda ya Kinyarwanda.

Isekuru iriho n'umusekuzo, igikoresho gikoreshwa iyo bari gusekura ibintu: isombe, ubunyobwa, cyangwa se ibindi bintu, bagamije kubikoramo ifu.

Udukoresho twa kinyarwanda twera mu bwoko bw'ibihaza. Batwita uducuma. Turi ahantu, twarateguwe tumaze kuma, dutegereje ko dukoreshwa.

Inka izwi cyane cyane mu muco nyarwanda yitwa inyambo, ikaba izwiho kuba igira amahembe maremare, kandi ikaba igira umukamo, ikaba ari inka zakundwaga cyane, kera mu muco nyarwanda.

Ivu cyangwa itazi akaba ari ibintu biboneka mu gihe bacanye ibiti, amakara, n'ibindi bintu bicanwa by'ibimera. Byamara kwaka bigasigara ari ivu, bikoreshwa bafumbira ahantu mu butaka, nk'ibimera bimere neza.

Umuvure cyangwa indemberi. Igikoresho bakoresha bari gutara inzoga, hari abagabo bashinzemo imiseke bari gusoma, bari kumva ko inzoga yahiye, bafata umutobe, amazi n'urukoma, maze bagashyira muri iyi ndemberi, nyuma y'igihe bigashya bigatera gusinda.

Benshi bari guhinga wagira ngo bari mu muganda, bafite isuka bari kujya baterura itaka barisubiza inyuma yabo, ibi bikorwa mu gihe bari gukora umuganda cyangwa bari guhinga ndetse no gucukura ahantu hatandukanye, gusa aba bo bari guhinga.

Imitako cyangwa utuntu tw'udukoresho bakora mu biti cyangwa mu byatsi, bakatuboha neza, tukaba dutakwa mu mazu y'abantu cyangwa mu mazu ya leta, n'ahandi hantu bituma hasa neza kuko ari imitako myiza ikorwa n'amaboko y'abantu igateza imbere ababikora.

Ibikoresho gakondo byitwa ibibindi. Bikorwa mu ibumba kuko birabumbwa mu ibumba, maze bakabijyana ahantu bakabicanira mu muriro. Rya bumba rigakomera bikaba bikoreshwa mu gutara inzoga cyangwa kubikamo amazi mu cyaro.

Abantu bari gukora icyo twita gukama ibitoki, bafata ibitoki bakabitara, byamara gushya, imineke bakayitonora bakabishyira mu ndemberi, bagashyiramo ibyatsi, bakabikama bakoresheje amaboko n'amaguru; umutobe wavamo bakawuvanga n'amasaka nyuma y'iminsi bikavamo inzoga.

Ababyinnyi bari kubyina, bari gukaraga ingoma bambaye n'imyenda ya kinyarwanda, harimo amayugi, imishanana, ndetse n'imyitero.

Agaseke; kimwe mu bikoresho bikoreshwa cyane mu birori gakondo cyangwa mu birori by'umuco, aho agaseke gakoreshwa kagaragara neza, bashiramo ibintu bashyiriye abashitsi, cyangwa se abandi bantu bakomeye mu birori. Bikaba ari kimwe mu biranga umuco n'ubukorikori bya kinyarwanda.

Ababyinnyi cyangwa abakaraza, bari gukaraga ingoma, bambaye imyenda isa, ya kinyarwanda y'imikenyero, bafite imirishyo bari gukaraga ingoma, igikoresho gituma haboneka amajwi, n'umuziki uryoheye amatwi.

Ababyinnyi gakondo ba kinyarwanda, bafite ibikoresho birimo icumu, ingabo, bifotoranyije n'abazungu, iruhande rwabo, hari n'inzu za kera zisakaje ibyatsi, hirya hari n'imigano.

Isoko harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugo mu buzima bwa buri munsi. Harimo imbabura, imyuko, ibikapu, n'ibipaniye, intara n'ibindi. Imyuko yifashishwa mu gihe bari gukura umutsima cyangwa baribirihindura ibiryo batetse.

Mu cyaro hari umurima cyangwa ikibara harimo umukobwa ufite isuka, igikoresho gikoreshwa mu guhinga no gucukura ahantu hatandukanye. Hakaba ikibara carezemo ibigori. Inyuma ku rugo hari uruzitiro rw'ibiti n'amatungo.

Umugabo wicaye uri gukama inka nini, inka ya kizungu ihaka, ahantu mu bwatsi bwinshi cyane, yayiziritse amaguru. Munsi hateretse igicuba arimo gukamiramo amata.

Imyenda idodwa n'intoki ikaba yiganjemo ikoreshwa n'ubudodo, akaba umuntu akoresha ubudodo akadoda umwenda, furari cyangwa akaba ari umurimo ukorwa cyane cyane n'abagore. Ukaba utuma biteza imbere kuko iyi myenda ikundwa cyane ikoreshwa no mu bigo by'amashuri.

Abantu bambaye imyenda ya kinyarwanda iranga umuco wa nyarwanda, bakaba bicaye barira ku nkoko kandi bafite agacuma nka kimwe n'amasuka nka kimwe mu bintu bigaragaza umuco kinyarwanda wa kera.

Umugabo urimo uvuza ihembe, igikoresho cya kera gikoreshwa mu gihe cy'ibirori, kuko kiravuzwa kigasohora amajwi aryohera amatwi y'abantu mu gihe cy'ibirori.

Ibiryo by' ubwoko byiganjemo ibitera imbaraga: ibijumba, imyumbati, ibigori, ibihaza n' ibishyimbo, bikaba biri ku nkoko cyane cyane ibi bikorwa mu cyaro, abantu bagiye nko guhinga barira ku mbehe, agakoresho gakozwe mu giti ka kinyarwanda.

Uduseke dutatse amabara y'umweru, umukara n'ayandi y'umutuku n'umweru, tuboheshwa ubwatsi bita ubusuga bakavangamo ni n'imideri, iva mu mifuka, ikindi babohesha urushinge rwabugenewe, turi ahantu heza, twifashishwa mu bukwe no mu bindi birori bya kinyarwanda.

Abantu bari mu muhanda bari kugenda bakenyeye ibintu bya kijyambere birimo imikenyero biteze ibitambaro. Bafite ibiseke, amakesi abagabo bambaye amakoti bigaragara ko batashye ubukwe hari n'imodoka mu muhanda.

Umugabo wambaye imyenda ya kinyarwanda y'imikenyero afite inkoni, yambaye n'ingofero ahagaze impande y'inka zigira amahembe manini zitwa inyambo. Zikaba ari inka za kera nziza zigira umukamo, kandi zikuza amahembe zikaba ziba nini cyane.

Imashini ikoreshwa n'amashanyarazi, ikaba igira akamaro ko gufotora, cyangwa kwandika ku mpapuro ibintu bashaka, ikaba ikoreshwa cyane cyane, ahantu batanga serivisi za Leta, kwa muganga n'ahandi, bakoresha ikoranabuhanga.

Imigozi ikoreshwa mu gihe cyo guhuza ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa by'imuziki nka bafure ,megiseri cyangwa se telefoni bashaka kubikonegita ngo bitange amajwi asukuye.

Ibikoresho bikoreshwa mu miriro y'amashanyarazi, akaba ari agakoresho bakoresha bari gukupa umuriro cyangwa bari gukubura, bitewe igihe inzu cyangwa ahandi hantu hari umuriro hagize ikibazo, bakoresha aka gakoresho bari gukupa kugira ngo bidashya.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyitwa mudasobwa, gikora cyane ibintu by'ikoranabuhanga byiganjemo serivisi z'ikoranabuhanga, nko kohereza amakuru, kureba videwo n'ibindi.

Igikoresho gikoreshwa mu mumashanyarazi, bari gukupa cyangwa bari gukupura umuriro, kugira ngo hake amatara. Cyitwa enterebuteri cyangwa suwici, ni igikoresho gikoreshwa mu nzu zibamo umuriro w'amashanyarazi.

Ikibuga cyegereye ahantu hari amashuri yigishirizwamo abanyeshuri, akaba ari amazu y'ibyumba bacamo ibyumba, abanyeshuri bajyamo bakiga ubumenyi butandukanye.

Inyubako itari yuzura iriho ibiti cyangwa igikwa. Akaba ari ibikoresho bakoresha bari kubaka igihe bageze hejuru, bifasha abafundi kugera ku nyubako neza, bikorohera n'abayede kubahereza ibikoresho.

Inzu nini cane ya etaje ibamo amashuri cyangwa ikorerwamo ibintu bitandukanye, ikaba igira ibyumba byinshi byakorerwamo ibintu bitandukanye. Ikaba ifite igihanga, inkingi, ibirahuri n'amabati asa nk'umutuku.

Inzu igaragara nk'aho ari nk'amashuri, ikaba iherereye ahantu hari ibiti by'intusi, ikaba ifite ikigega, igikoresho kibika amazi avuye hejuru ku mureko w'imvura, kikaba gikoreshwa mu gihe imvura yagiye amazi yabuze, bagakoresha ayabitswe muri icyo kigega.

Urusengero rw'amabati, ruriho umusaraba, rumeze nk'urw'abakatorike, hanze hari ibidendezi n'amazi, n'ibyondo byatewe no kuzura kwamazi, n'amazu ashaje akikije urusengero.

Icyumba cyabugenewe kibamo ameza n'intebe, abantu bakoreramo ibizamini bibemerera kujya barakoresha ibinyabiziga, harimo icya porovizwari. Hakaba habamo imashini za kompiyuta abantu bakoresha bari gukora iki cyemezo cya perimi cyangwa porovizwari.

Indabyo cyangwa ubusitani, ikimera batera impande y'utuyira y'urugo, cyangwa y'ahantu ku muhanda, kugira ngo kigaragaze ubwiza. Kikaba ari indabo zizana amabara menshi y'umuhondo, y'icyatsi, ndetse zikaba zera utuntu inzuki zirya.

Umuhanda wigoronzoye wa kaburimbo. Biterwa nuko umuhanda wanyuze ahantu mu musozi cyangwa bakawugoramisha kubera ko ahantu wagombaga guca bitakunze bigatuma haza ikoni.

Inyubako nini ya etaje, akaba ari ishuri ryigishirizwamo abanyeshuri benshi cyane, kuko rigira ibyumba byinshi bikenewe mu kwigisha abanyeshuri. Rifite ubutaka hanze bubamo imyaka cyangwa ibindi bintu bikoreshwa bari kwigisha abanyeshuri.

Inzu nini, nziza, iteye amarangi y'umuhondo, iriho umunara, hanze hariho amapave, ndetse aparitseho imodoka nyinshi ziri kumwe n'abantu b'abagabo bazihagaze iruhande.

Inzu z'amashuri zigishirizwamo abanyeshuri akaba, ari ibyumba biba ari byinshi abanyeshuri bigishirizwamo ubumenyi butandukanye, imbere hakaba hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu nini ya etaje igeretse gatatu, ifite y'akandi mazu magufi atageretse, kikijwe n'ibiti birebire by'intusi bifite ubusitani bwindabyo ngufi na pasuparume.

Igikorwaremezo cyitwa ikiraro. Kikaba gifasha abantu kwambuka amazi bataguyemo, cyangwa ngo hagire ibyangirika. Abantu bakinyuraho bakajya mu gace bavuye mu kandi, bakambutsa imyaka cyangwa ibindi bintu byabo.

Ahantu impande y'umuhanda hari abantu bashize icyapa kirangira abantu aho ibitaro biri bya kinigi, hakaba hari n'amazu y'ubucuruzi buciriritse, abaturage baza guhahiramo ibyo kurya n'ibindi bikoresho bakoresha mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako y'igikoni, hariho icapa cyukuntu abantu bakura isuku ibiyuna naba mama bari kunsa hari n'intebe hanze kumuryango ubona ko ari icya kijyambere, igikoni kimeze neza gisakaje amabati, kirimo n'amakaro.

Ibitanda cyangwa ibikoresho bakoresha kwa muganga baryamishagaho abarwayi, kugira ngo babageze ahantu bashaka kubageza, ikindi babiraragaho cyane cyane abarwayi baba barahawe kuguma kwa muganga, kugira muganga abiteho igihe kirekire.

Ishusho cyangwa ikibumbano, kikaba ari ikintu abemeramana cyangwa abagaturika bubahiriza, kikaba kigaragaza ishusho ya Bikiramariya nyina wa Yezu, kikaba gikunda kuba kiri ahantu basengera abakirisitu gaturika.

Wese cyangwa imisarani yubatse neza, iriho n’uruzitiro, igipangu. Kandi inyuma, hari ibiti by’imiyenzi, mbona n’insina, ndetse n’imibirizi.

Inzu z'amashuri zigishirizwamo abanyeshuri mu bintu bitandukanye. Akaba ari inzu zibamo intebe, ibibaho n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi bintu nk'ibitabo n'ibindi.

Inzu y'Imana cyangwa kiliziya, urusengero, akaba ari inzu y'Imana abantu bajyamo bagasenga, bagashimira imana ndetse hakaba, habamo n'umupadiri cyangwa umupasiteri wigisha ijambo ry'Imana.

Inzu nyinshi nini wagira ngo ni nk'ibiro by'umurenge. Zifite ubusitani burimo ikigega, igikoresho gikoreshwa mu gufata amazi mu gihe cy'imvura, nyuma akazaba akoreshwa igihe imvura ntayo, mu izuba cyangwa kugira ngo idatera isuri.

Ahantu mu giturage hagaragaramo amazu y'ubucuruzi. hariho ibimera kandi hakaba hagaragara amapoto nk'igikorwaremezo kinyuzwaho insinga zijyana umuriro mu giturage bigatuma bacana neza.

Inzu nini ya etaje isakaje amabati y'ubururu, iriho igihanga imbere, parikingi irimo imodoka, ndetse hari n'amabendera y'u Rwanda amanitse impande, hejuru y'iyi nyubako ubusitani n'indabo nziza.

Inzu y'urusengero cyangwa inzu y'Imana. Akaba ari inzu nini cyane ihuriramo urujya n'uruza rw'abantu, baje gusenga, gushima no kuramya Imana. Bakaba bajya gusenga ku Cyumweru cyangwa kuwa Gatandatu, bitewe n'umunsi wagenwe n'idini basengeramo.

Urusengero runini, rwiza, rwubakishije amatafari ahiye, rufite n'akantu kazamuka hejuru. Rukaba ruriho, rukikijwe n’andi mazu y’abaturage, n’ibiti, n’umuhanda ujyayo, ukozwe na beto.

Umama mukuru witeze igitambaro, wambaye n'ikanzu, ufashe mikoro, uri ahantu mu nama, harimo n'abandi bantu benshi, bicaranye mu ntebe nziza za kijyambere, bamuteze amatwi, bari kungurana ibitekerezo.

Abaturage benshi bicaye bateze amatwi bari nko mu nama ibi bikorwa cyane cyane mu midugudu. Abaturage bahura n'abayobozi babo bakavuga ibibazo cyangwa bakagezwaho gahunda za Leta bahuriye hamwe nk'uku nguku bicaye ahangaha.

Inteko cyangwa ikoraniro ry'abaturage, bahura uko batuye, bafite abayobozi batumije iyo nama, bakabagezaho ibitekerezo cyangwa, ibibazo bafite bigakemurwa ndetse bakagezwaho, na gahunda za Leta, nko gukangurirwa kwirinda indwara, cyangw kuzigama no gukora ibindi bitandukanye.

Abantu benshi bari ahantu mu nama. Bafite ibipapuro abandi bicaye munsi y'ibiti. Hari abantu bafite ibipapuro bari kwereka abayobozi. Abamama baripfutse ibitambaro baniteze udusharupe n'ibitenge.

Akagare kagendamo abantu bafite ubumuga bw'ingingo. Kakaba kari impanda y'imodoka nini zijyana abagenzi, mu bice bitandukanye by'igihugu.

Abantu cyangwa se urubyiruko rutwara amagare ukaba ari umwuga wo gutwara imizigo n'abantu ku magare, ibi bituma biteza imbere kuko bishyurwa amafaranga bigatuma bagira iterambere mu buzima bwabo.

Ahantu abantu bajya gutegera imodoka nini zitwara abagenzi benshi. Baba bashaka kujya mu bice bitandukanye by'igihugu, hakaba habamo amakompanyi atwara abagenzi bakishura amafaranga.

Imodoka itwara imizigo izwi nka fuso cyangwa hoho. Ikaba igira igisahani gipakurura ibyo ipakiye. Aha iri gupakurura igaraviye cyangwa konkase. Akaba ari utubuye duto bamenaguraga, bifashisha bari kubaka, bakavanga na sima bigakomera.

Umumotari uri mu muhanda mwiza wa kaburimbo, ubona ko unyuze mu mujyi harimo amazu y'amagorofa ageretswe cyane, ndetse n'abantu benshi bari muri kaburimbo bagenda, ubona ko bagiye nko mu kazi.

Imodoka zitwara abagenzi mu mihanda zibajyanye mu bice bitandukanye. Akaba ari imodoka zigira ubushobozi bwo gutwara abantu benshi icyarimwe, zikaba zigenda zifata abantu ku mihanda zibajyana iyo bashaka kujya, bakishura amafaranga.

Umugabo utwaye umugore n'umwana ku igare. Igikoresho kigira amapine abiri, kigenda mu mugihe bari kunyonga ahantu hazamutse, ariko ahamanutse kirijyana. Kigira na feri, gituma umuvuduko ugabanyuka, cyangwa rigahagarara.

Umugore ufite igari rya matabaro rihetse ibitebo, abantu bamuri iruhande, harimo uwikoreye intara iriho imboga, ameze nk'aho azijyanye ku isoko.

Imodoka ka nini zitwa Hoho zitwara ibikoresho byo kubaka, n'ibindi bintu birimo amatafari, amabuye, umucanga, ndetse zigatwara n'ibindi bintu biremereye, bazita Hoho.

Imodoka y'ubutabazi yitwa ambirance itwara abarwayi, iba itatseho ibimenyetso bitandukanye n'ipine inyuma rikoreshwa igihe yagize ikibazo rigasimbura irindi, iparitse ahantu hameze nko kwa muganga.

Moto nyinshi ziparitse ahantu akaba ari ikinyabiziga gikoreshwa mu gutwara abagenzi n'imizigo, bakaba bishyura amafaranga ku muntu batwaye bigatuma abantu bafite moto bakorera amafaranga menshi bakiteza imbere.

Imodoka zitwara abagenzi ziparitse muri gare, ahantu abagenzi bajya gutegera imodoka, bashaka kujya mu bice bitandukanye by'igihugu, imodoka ziba ari nini, zitwara umubare munini w'abagenzi, habamo kampani wishyura bakaguha itike, ugatwara abagenzi.

Moto igikoresho gitwara abagenzi, imizingo, kikaba kigira amapine na moteri bituma kigenda cyihuta cyane kurusha ibintu byinshi.

Abantu bari ku muhanda bashungereye, bafite amagare atwara imizigo n'abantu, abandi bari kugenda mu muhanda uriho ibyapa binini byamamaza, biriho amafoto y'abantu.

Ikinyabiziga cyitwa amagare, kikaba ari igikoresho abantu bifashisha batwara imizigo n'abantu muri rusange. Kikaba ari igikoresho giteza imbere abantu, kuko ugifite akuramo amafaranga binyuze mu myaka yatwaye cyangwa abantu.

Imodoka nini iriho ibyapa bigaragaza icyo ikora, aha igaragaza ko ikora ingendo zo gutwara abantu mu mujyi wa kigali, ikaba ari imodoka nini itwara abagenzi benshi cyane icyarimwe.

Imodoka nini zitwa bisi, ziherereye mu mujyi rwagati, zikaba ari imodoka zikoreshwa mu gutwara abagenzi benshi, babajyana mu bice bitandukanye by'igihugu. Zikaba zifite ubushobozi bwo gutwara abagenzi benshi icyarimwe, kandi zikora urugendo rurerure.

Imodoka iri mu muhanda nini cyane, ikoreshwa mu gutwara abagenzi, kuko itwara umubare munini w'abagenzi ibajyanye ahantu hatandukanye, abantu bahagaze ku umuryango bashaka kuyinjiramo ngo ibageze aho bagiye.

Ahantu hari imodoka nini zifite amakontineri zipakira ibihingwa cyangwa ibicuruzwa bigiye kujyanwa kure. Aha hari imodoka ziparitse ahantu hari imbuto zigaragara ko zizajyanwa mu mahanga zigatanga amafaranga.

Umugabo w'umumotari wambaye kasike, wicaye mu modoka y'amapine atatu yitwa lifani, ikaba itwara imizigo yoroheje itaremereye, kugira ngo yoroshye akazi.

Ahantu hazwi nko muri gare, abantu bajya gutegera imodoka, habamo imodoka nini zitwara abagenzi, zikabajyana mu bice bitandukanye by'igihugu. Izi modoka ziba zitwara abantu benshi cyane.

Abamotari abantu bakora akazi kabo kabatunze, bakoresheje ikinyabiziga cyitwa moto. Aho batwaraho abagenzi n'imizigo iciriritse. Bakuramo amafaranga atuma biteza imbere, kuko havamo amafaranga menshi mu muhanda hifashishijwe moto.

Abantu bafite amagare, igikoresho cyoroherezaga abaturage mu gutwara imizigo ndetse no mu ngendo zabo, bakaba batwaraho imizigo imyaka, na bo ubwabo bajya mu ngendo bakoresheje igare kuko ryihutisha urugendo.

Ahantu abantu bajya gutegera imodoka. Muri gare haba imodoka zitwara abagenzi, zikabajyana mu bice bitandukanye. Aha hari abanyeshuri bahagaze, bategereje imodoka, ngo zibajyane ku mashuri ahantu hatandukanye.

Imihanda yo mu mujyi rwagati higanjemo urujya n'uruza rw'abantu baba bagiye mu kazi cyangwa batashye bari kugendera ku ma moto ndetse akaba ari n'amagare atwara imizigo n'abantu. Ibi bikorwa mu mujyi cyane cyane kuko haba hari abantu bagiye mu ngendo zitandukanye.

Abanyonzi bari mu muhanda, batwaye abagenzi, bambaye amajire, bari muri kaburimbo, iruhande hari andi mazu ariho ibyapa, biranga bigaragaza ahantu hatandukanye.

Ahantu hagaragarako hari gare ahantu abagenzi bajya gutega imodoka, kugira ngo bagere mu bice bitandukanye bya kure, habamo imodoka nini zitwara abagenzi.

Indege, ikaba ari igikoresho gikoreshwa cyane cyane mu ngendo zijya kure zambukanya ibihugu. Ikaba ari ikinyabiziga gikoresha amababa moteri, gitwara ibintu byinshi icyarimwe n'abantu, kandi kikaba gikora urugendo rurerure mu kirere.

Umupolisi urimo kubwira abantu benshi biganjemo abafite amagare. Bigaragara ko ari kubasobanurira uko ibintu bikwiye kugenda, bakitwararika mu muhanda byatuma birinda impanuka n'ibindi byago byo kutitwara neza mu muhanda.

Imodoka nini zizwi nka bisi zitwara abagenzi benshi cyane, ziri mu muhanda munini kaburimbo, uriho amatara n'ibindi bintu bituma imodoka zitagwa mu manga. Hirya hariyo n'umuhanda w'icyatsi wa tapi.

Abakinnyi bambaye inifomu cyangwa amajezi asa, akaba ari abakinnyi ba basiketi, kuko bafite umupira witwa basiketi. Akaba ari umukino ukinishwa intoki mu kibuga, ugira n'amazamu batsindamo cyangwa udupaniye twabugenewe.

Abantu bari mu kibuga bambaye imipira iriho ibishushanyo bisa, barifite icyapa imbere yabo bifotorejeho, hari n'abambaye amajiri mu kibuga cya basiketi.

Agatenesi cyangwa umupira ukoreshwa mu gihe cy'umukino wa tenisi, cyangwa indi mikino, kakaba ari agatenesi, abana bakunda gukina bakiri bato, bakakadunda kuko kagira umwuka, karidunda cyane.

Umugabo w'umukinnyi wambaye ijezi, akaba afite n'umupira ubamo umwuka ukaba ukinwa mu kibuga bagatsindana ibitego.

Ikigo cy'amashuri kiriho cya etaji kigeretse kabiri, hasi hariho ikibuga kirimo abanyeshuri bakina n'abandi bahagaze iruhande bashungera abakina mu kibuga.

Abantu benshi b'ikivunge, bari ahantu bari gufana abantu, batwaye amagare bari mu isiganwa, abapolisi babakumira ngo batabangamira abatwaye amagare.

Ikibuga cy'umupira kiri ahantu hari abantu hitwa muri sitade, ari abafana n'abakinnyi bari mu kibuga, inyuma hari ibiti ndetse n'amadarapo y'amakipe abafana bashyigikiye.

Umuhanda wa kaburimbo utatse ibyapa bitandukanye, uriho abaturage benshi bari gufana abanyamagare, bari gusiganwa mu irushanwa ry'magare.

Abantu basiganwa mu irushanwa ry'amagare ryitwa abanyamakuru, bakaba bajya mu muhanda n'amagare bakarushanwa. uwasize undi agahembwa nk'uwatsinze irushanwa.

Abakinnyi bakina umupira w'amaguru，ukaba ari umukino ukundwa cyane， akaba ari umukino ugira amakipe abiri ahanganye， mu kibuga harimo n'umusifuzi uyobora umukino， utuma amakipe atarwana cyangwa ngo aburane， kuko aca impaka hagati y'amakipe.

Umukino ukinwa hifashishijwe intoki. Bakina umupira bambaye inkweto, hari abafana ndetse hari n'amazamu batsindamo, afite akantu k'agapaniye cyangwa kameze nka supanete. Bakina bambaye inifomu cyangwa amajezi.

Umuzungu cyangwa umuntu uri ku igare. Iryo gare rikaba ari igikoresho gikoreshwa mu isiganwa ry'amagare, rikaba rifite ubushobozi bwo kwirukanka cyane, ugereranyije n'igare risanzwe. Iri rikaba ritwara umuntu umwe, rikaba rikoreshwa mu gukora siporo cyangwa guhatana mu marushanwa y'amagare.

Abantu bambaye imyenda igaragaramo amabara agaragara mu ibendera ry'u Rwanda, bakaba bishimye, bigaragara ko batsinze cyangwa bashyigikiye ikipe y'u Rwanda.

Imodoka iri kugenda mu muhanda w'ibitaka, ikaba iri gutumura umucucu mwinshi cyane. Inyuma hari n'izindi modoka nyinshi, n'abaturage benshi cyane bakikijwe n'abapolisi wagira ngo ni isiganwa ry'amamodoka.

Amazi bogeramo yitwa pisine akaba ari amazi aba asa n'ubururu akenshi aba mu mahoteli abantu bagiye kuruhuka bajyamo bakoga.

Abakinnyi bari mu kibuga cya basiketi, umukino ukundwa cyane, ukaba ari umukino ukinishwa intoki, bakina umupira hari aho batsinda, nuko ikipe itsinzwe, ikipe itsinze ikajyana igikombe cyangwa igahembwa bitewe n'amanota yatsinze kurusha indi.

Umuhanda w'ikoni unyuze ahantu hari umusozi uriho imanga n'abantu bashungereye, abanyamagare bari muri kurusi. Bafite amagare n'imyambaro yabugenewe ijyanwa mu makurusi y'amagare.

Ahantu hari ibiti n'ibihu byinshi， biterwa n'uko imvura yenda kugwa. Hakaba hari n'igipangu cyangwa uruzitiro rw'amatafari，bubaka bazitiye inzu， kugira ngo abasambo cyangwa n'ibisimba bitajya birajya mu rugo byoroshye.

Igiti kinini kitwa geleveriya kikaba igiti kizwiho gukura kikaba kinini, maze kikavamo imbaho zo gukoreshwa mu bintu, mu bikoresho bitandukanye harimo ibyo mu nzu nk'inzugi, ameza, n'intebe n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapoto y'amashanyarazi, iruhande hari amashuri akikijwe n'ingo z'abaturage zisakaje amabati y'umutuku, hakurya hagaragaraho ikirunga.

Inzu nini nziza za kadasiteri, zubakwa n'abaturage bakazituramo, zikaba ziri ahantu hari insinga z'amashanyarazi, zijanye umuriro muri izo nzu, zikaba kandi ari inzu nziza ziturwamo n'abaturage bishoboye.